Abantu umunani bicaye mu nzu mberabyombi, bigaragara ko hari kubera inama, barimo abagabo barindwi n'umugore umwe, imbere yabo haye ameza meza ari ingofero, mu tucupa tubiri twamazi y'inyange.

Ahantu habereye inama, hariru umugabo urimo aravugaka, afite mikoro ifite amabara y'ubururu, umutuku n'umukara, imbere ye hari intebe iri imbere y'ameza, ameza ashasheho agatambaro k'umuhondo n'umweru.

Ahantu mu cyumba cy'inama, ni ahantu hicayemo abantu benshi bari kuganira, muri abo bantu harimo umusirikare n'undi w'umucungagereza n'abandi bantu benshi bari kubumva.

Abaturage bari mu nama bicaye mu itente harimo n'abayobozi, abapolisi ndetse n'umusirikare umwe, harimo n'umumama yambaye imyenda y'ibitenge bigaragara ko ari umuyobozi mukuru.

Umusirikare w'inzobe ufite mikoro, mikoro ifite amabara y,ubururu n'umuhondo na orange, uhagaze imbere y'ameza meza, imbere yayo hari intebe, ameza atwikijwe nigitambaro cyamabara ya orange n'ibara ry'umweru.

Inyubako iberamo inama irimo abaturage bari mu nama, biganjemo abaturage b'igitsina gabo, basa n'abareba imbere bari kureba umuntu uri kuyobora inama bumva neza ibyo ari kuvuga.

Ahantu habereye inama amatente badekoje amabara y'umuhondo icyatsi ndetse n'ubururu hari umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga arimo abwira abantu bari aho.

Abantu bisa nkaho bari mu nama, bamwe barahagaze abandi baricaye, bahagaze imbere y'inzu, bisa nkaho hari inzu y'ubucuruzi, bamwe harimo n'ababyeyi bahetse abana b'impinja.

Inzu mberabyombi iberamo inama harimo abantu benshi barimo abanyeshuri bicaye ku ntebe ku murongo w'imbere, abandi bantu babiri umugabo n'umugore basa nkaho nabo bakurikiye ibiganiro.

Umugabo uri kwigisha wambaye imyenda'umukara, inyuma ye hari intebe z'amabara zifite amabara y'icyatsi n'umukara ndetse inyuma ye hakaba hari n'indangururamajwi.

Abana bari gukina imikino ngororamubiri, iyo bita akorobasi, bari imbere y'abantu bari kubareba, aho amashusho bari kubafotora, amashusho akagaragarira mu giteleviziyo kinini kibari inyuma.

Inama yabaye irimo abapolisi, abasirikare ndetse n'abandi baturage basanzwe bicaye mu nzu mberabyombi y'inama irimo intebe bicayeho zisa n'icyatsi n'umukara.

Abagabo batatu barimo umupolisi ufite indangururamajwi(mikoro),urimo aravuga inyuma ye hari abagabo bandi babiri, harimo umwe wambaye ikositimu n'undi wambaye umupira usanzwe, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu.

Umugabo wambaye ikositimu y'ibara ry'ivu na karuvati irimo amabara ya move, afite mikoro cyangwa icyo twita indangururamajwi, ahagaze kuri podiyumu ari kubwira abantu, ahagaze imbere y'icyapa cyanditseho ngo invesitimenti rwanda cyo muri aradibi.

Abasore babiri bakiri batoya ni abasore bambaye nk'intore, intore zabyinaga kera mu Rwanda rwa kera, bafite amacumu bose ndetse bafite n'ingabo, ingabo za kinyarwanda barwanishaga.

Icyumba kimeze nk'inzu mberabyombi, harimo abantu bari kubyina, harimo abasore bambaye imikenyero ya kinyarwanda n'abandi bambaye imyenda y'intore ya kinyarwanda n'abakobwa bambaye imishanana babyinyina mu ntore n'bandi bambaye imikenyero y'umutuku.

Ababyinnyi b'intore za kinyarwanda harimo abakobwa bicaye hasi bicaye mu buryo bwa Kinyarwanda, harimo abandi bari imbere bahagaze harimo abasore bambaye imikenyero y'umweru n'abakobwa bambaye imikenyero y'umweru n'amabara y'iroze.

Intore ziri kubyina zambaye imyenda ya kinyarwanda, zambaye icyo bita imigara, zambaye ingabo, ingabo ya kinyarwanda ndetse zifite n'amacumu mu ntoki ziri kwitakuma.

Udukomo tubiri tw'amasaro harimo kamwe k'amasaro y'umukara gusa n'akandi k'amasaro y'umweru n'umukara avanze, turi ahantu hamwe hameze nk'aho ari ku rupapuro rw'umweru.

Abantu b'igitsina gore bakiri batoya bambaye bya kinyarwanda bisa nkaho ari itorero harimo abakoma amashyi ndetse n'abaririmba, iruhande rwabo hari ingoma za kinyarwanda n'ingoma bavuza iyo bari kuririmba.

Umugabo ukiri mutoya, wakenyeje umukenyero wambaye n'ishati y'umweru, afite icumu rya kinyarwanda, bisa nk'aho ari mu myiyereko, ahantu hameze nk'ahabereye inama, hari abantu benshi.

Umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda yakazi'pantaro n'ishati yanditseho ikirango cy'igigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG, handitseho umubare zeru mirongo icyenda na gatanu.

Inyubako y'amabati atukura, ifite pano ikurura umuriro w'amashanyarazi uturuka ku mirasire y'izuba, ni inzu yitaruye ireba ku musozi.

Abakozi batanu bo mu kigo gishinzwe amashanyarazi barimo barimo baramanika ipoto bashyiraho insinga, babimanika neza kugira ngo abaturage babone umuriro.

Icyumba kirimo umugabo uri kogosha. Wambaye agapfukamunwa n'umupira wa orange. Ari kogosha umuntu umeze nk'umusaza, ufite imvi mu mutwe. Impande yabo hari televiziyo irimo ibintu biri gukina harimo umuntu uri kuvuga.

Umukozi w'ikigo gishinzwe ingufu REG yambaye ishati iriho umubare magana ane na mirongo ine n'icyenda ndetse n'ikirango cya REG cy'ikigo gishinzwe ingufu akaba ari gukanda kuri kashipawa.

Umugabo w'umuzungu wambaye igisurubeti cy amabara ya oranje, wambaye ingofero yo mu mutwe y'amabara y'umweru, usa nk'aho ari gufungura, utuntu tumeze nk'utubati.

Umuntu ukora serivisi zo gucaginga amatelefone n'ibindi bintu bijyanye na mekanike yicaye imbere y'agakiyosike ke, yicaye ku ntebe ya sheze arishimye cyane.

Ipoto y'amashanyarazi riho insinga nyinshi, bigaragaza ko zikwirakwiza amashanyarazi mu bice byinshi bitandukanye, ni ipoto ryubatswe n'ibyuma bigiye bisobekeranye bikagera hejuru.

Abubatsi babiri harimo abazwi ku izina rya Enjeniyeri bari ku ishansiye cyangwa se aho twita urwubakiro, bafite mudasobwa ntoya, bari kuko barimo barareba uko ibikorwa biri kugenda ku ishansiye.

Umugezi w'amazi bubaka mu byaro, harimo umigezi ufite imigezi ibiri, izana amazi imbere yaho hari inyubako ebyiri, mbere yazo hari umugabo uri ku igare.

Inyubako y'amatafari ahiye yanditseho ko ari ofisi y'abimukira, imbere yayo hari abaturage biganjemo abakuze ndetse n'abana bari gushaka serivisi z'aho ngaho.

Inyubako isize amabara y'umweru kuru rukuta, n'amabara y'icyatsi cyijimye, ifite amadirishya yicyatsi kiteruye ariko na none kitijimye, inyubako iri ahantu hitaruye imeze nk'aho iri yonyine.

Abantu benshi biganjemo igitsina gabo bahagaze hejuru y'ikiraro, n'ikiraro cya kijyambere cyubatswe ku buryo ki gikikijwe n'ibyuma ku buryo ki nta muntu ushobora kuba yamanuka ngo agwe hasi.

Inyubako itari nini cyane yaba mu burebure no mu bugari, ni inyubako isize amarangi y'ubururu bwijimye, isakaje n'amabati y'amabara y'ubururu bwerurutse, hejuru ku mabati hari ahantu basa n'aho bamanuye igisenge, ahagana hejuru gakeya kitaringaniye n'ikindi.

Abantu bari mu muhanda bisa nkaho bari gukora, kaburimbo cyangwa se, uzwi nk'umuhanda w'igitaka. Ni bantu, biganjemo igitsina gabo bambaye amajire, yo mu ibara rya orange.

Inyubako ya leta izwi nka laboratwari cyangwa se isuzumiro aho basuzumira imiti, imyaka ibintu bitandukanye ikaba ari inyubako y'umuhondo ifite inzugi z'umweru ndetse n'andi n'amabara y'ikijuju.

Inyubako ya leta iri imbere y'umusozi ifite amazu agerekeranye kabiri ndetse n'izindi ziyiri iruhande bigaragara ko n'imbere yayo hari ubwinjiriro.

Nbantu babiri bari gutambuka hejuru y'ikiraro, harimo umugabo ndetse n'umukobwa usa nk'aho ukiri mutoya, hirya y'aho hari umurima w'insina, urimo n'ibindi biti bivangwa n'imyaka.

Umuhanda munini bigaragara ko ari umuhanda uva mu bice bya kure, urimo imodoka y'umweru ifite amabara y'umweru n'umukara irimora iragenda, isa n'igenda ijya kure.

Inyubako y'amagorofa abiri, imbere yayo hari abantu benshi bayihagaze imbere, basa nk'aho bafite icyo bategereje, ni abantu barimo ab'igitsina gore ab'igitsina gabo, abantu benshi batandukanye bayihagaze imbere.

Inyubako y'isoko, isoko rya kijyambere, ririho ahantu bacururiza haba hariho akantu buri mucuruzi acururizaho gafitegi bakinga, kuburyo ki nta muntu wahinjirira.

Abantu bari muri sitade bamwe bari ahantu hitaruye ariko atari aho bicara, abandi benshi bicaye aho bicara muri sitade, hari abakinnyi bari gukina umupira bari gukinara mu kibuga...

Umuhanda uri munsi yumusozi, iruhande yawo hari imodoka zikorera imizigo, hari inzu y'amabati yicyatsi, hari n'imihanda myinshi inyuma y'iyo nyubako y'amabati yi'cyatsi.

Ikiraro cyo mu kirere impande yacyo hari moto ebyiri hibya ku ruhande rw'iiburyo, ku ruhande rw'ibumoso hari umurima urimo ibyatsi bigaragara ko udaheruka guhingwa ndetse no hino y'aho hagana inyuma hari umurima udaheruka guhingwa.

Abantu batanu bari mu muhanda wa kaburimbo, umwe uhagaze ku igare abandi bari kuganira, hirya ku ruhande rwo hirya hari bisi ndetse n'akandi kamodoka gatoya imbere yayo.

Inyubako y'ingoro y'ubutabera, imbere yayo hari abagabo babiri, hari umwe ahagaze iruhande rw'imodoka. Imbere yaho mu bwinjiriro bundi, bugana muri iyo ngoro hari indi modoka irimo yinjiramo.

Umuhanda muto urimo kugendamo ikamyo iri hagati yingo nyinshi zifite ibipangu byazo, ni ikamyo ihetse ibintu iyifubitswe na shitingi y'ubururu, imbere yayo hari umuntu uri kwiga uhetse n'undi.

Abantu barimo batambuka mu nzira, harimo umuntu ufite umwana ukiri muto wambaye imyenda y'ibitenge, barimo baratambuka mu muhanda wa kaburimbo, imbere y'inzu ifite amagorofa abiri, inyuma yayo harimo indi na yo ifite amagorofa abiri.

Abantu bahagaze ahantu ku kiraro barimo barareba munsi y'ikiraro, ni ikiraro cyubatse ku buryo bwa kijyambere, ikiraro cyubatse hakoreshejwe sima ndetse n'ibyuma bisa n'ibikorotiye aho ikiraro kirangirira kugira ngo abantu badahirima.

Inyubako z'umweru ni inyubako z'amagorofa, imbere yazo hari abantu batwaye amasanduku, inyuma yabo hari abandi batwaye indabo bameze nkaho bagiye gushyingura abantu babiri bapfuye.

Abagabo batatu bari ahantu mu murima, umwe afashe igihingwa mu ntoki, ni igihingwa binajije ariko kima gukuramo gakeya, ariko batarakura aho bakinajije ngo bagitere mu murima mugari, inyuma ye hari abantu babiri bameze nabo nk'abasore bakiri batoya.

Inama yahuriyemo abapolisi bo ku nzego zo hejuru ndetse n'abandi bayobozi, harimo abapolisi bambaye, uwambaye ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'undi wambaye ibisa n'ibara ry'ikijuju.

Abaturage benshi bicaye ahantu n'abandi bahagaze umwe, afite mikoro arimo aravuga abandi bamuhagaze iruhande barimo barareba imbere.

Abagabo barindwi basa n'abari kuganirira mu murima w'isina, ahantu basa n'abakoze bahashyira intebe zo kwicaraho, barimo baraganira, bareba insina, bareba byose.

Ahantu hameze nk'ahabereye inama hari abantu bahagaze imbere y'abandi bicaye, bafite akantu kameze nk'agakarito karimo telefone, ni abantu barimo abagore bambaye ibitenge n'abandi bantu b'abagabo bose bambaye imipira yo hejuru isa.

Umupolisi ufite indangururamajwi cyangwa ikizwi nka mikoro mu ndimi z'amahanga arimo uganiriza abaturage hari icyapa cyanditseho repubulika y'u Rwanda intara y'Iburasirazuba Akarere ka Nyagatare umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'Umunyafurika.

Abantu bari mu murima w'insina cyangwa se icyo twita urutoki, imbere yabo hari intebe eshatu zikozwe mu biti, harimo abantu barimo baganira imbere yabo harimo usa nk'aho ari umwe uri kugenda uberekera.

Umumama usa n'aho akuzemo gakeya, ufite ururabo rurimo indabo nyinshi, afite umuntu umutwikiriye inyuma ye ndetse n'undi uri gutambuka wambaye umukenyero w'umukara n'isengegeri y'umweru.

Abantu bari mu kazu kub, atswe rwagati mu rutoki, ni abantu bambaye amakosite y'ibara ry'icyatsi imbere yabo harimo abasa nkaho bari kubaganiriza imbere abantu nka batatu basa nkaho bari kubaganiriza.

Umuntu w'umumotari utwaye umugenzi, mu muhanda wa kaburimbo inyuma ye hari imodoka ndetse n'abandi bamotari ariko bari kujya mu ruhande atari kujyamo, hakurya y'uwo muhanda hari amazu y'ubucuruzi harimo n'iyanditseho ko bayikiniramo imikino y'amahirwe.

Imodoka iri mu buryo bwa fuso irimo itambuka ahantu mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda hakurya hari inyubako, ni inyubako zimeze nk'aho ari inyubako z'ubucuruzi, imbere yaho harimo hatambuka abantu babiri.

Umuntu wambaye agakabutura k'ikoboyi n'umupira w'umweru, urimo umusunika igare, rihambiriyeho agafuka gato karimo utuntu, arimo aragenda mu muhanda w'umukara twita kaburimbo.

Imodoka ya bisi yo mu bwoko bwa kwasiteri irimo itambuka mu muhanda, umuhanda w'amabuye y'amaserebwayo, imbere yayo hari inyubako z'ubucuruzi n'abantu bari gutambuka.

Inzu iri mu mabara y'iroze imbere yayo hari jaride y'indabo, ziganjemo ibara ry'umuhondo imbere yayo hari igiti imbere yayo hari icyapa cyanditseho, efu na na ijana na mirongo ine n'umunani.

Ahantu mu muhanda wa kaburimbo, harimo umumotari uhetse umugezi, hirya yabo hari imodoka ihaparitse iri mu mabara y'ubururu, impande yayo hari inyubako, n'inyubako bisa nk'aho ari amazu y'ubucuruzi.

Ibiti by'inganzamarumbu biri ahantu imbere y'inyubako, inyubako ifite amabara y'umuhondo imbere y'ibyo biti hari icyapa cyanditseho pa, inyuma y'ibyo biti hari umuntu wicaye mu gati munsi y'igiti gitoya gihari.

Abantu basa n'abari mu muganda barimo abaturage basanzwe, barimo umusirikare, umupolisi n'umudaso bafite amasuka, hamwe n'abandi baturage bafite amasuka basa nk'abari gukora umuganda.

Abaturage bari mu nama y'Akarere, harimo abasirikare babiri n'umupolisi umwe, n'abandi bayobozi babiri harimo mugore n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'ubururu, umugore yambaye ikoti rya orange.

Abantu basa n'abari mu muganda bari kubakira umuturage, n'inzu yibukishije inkarakara abantu barimo umupolisi n'umusirikare n'abandi baturage basanzwe, harimo n'abambaye amajire y'icyatsi n'aya orange.

Abaturage bari mu muganda, ahantu ku musozi, abantu benshi barimo mu gisa nk'ikibaya, barimo baza bagana ku musozi, aho hari kubera inama basoje umuganda.

Ikibuga kiriho cyabereyeho ibirori. Kiriho umushumba ufite inka, n'abandi bayobozi baje kuyireba. Bigaragara ko barimo kureba ubwiza bwayo.

Abantu bari kubumba amatafari, ariko bigaragara ko bari mu gikorwa cyo gufasha, abantu bambaye neza ko barimo babumba amatafari y'inkarakara, akoreshejwe mu byondo.

Abantu bari mu murima usa nk'aho udaheruka guhingwa, abantu basa n'abari gukora umuganda barimo abambaye imyenda y'umukara, mu imipira isa y'umukara iriho ibirango n'abandi bari kumwe nabo bari kubafasha.

Abantu batanu, bicaye ahantu bari kuganira, bisa nk'aho hari inama yahabereye, ahantu barimo umupolisi n'umusirikare n'abandi baturage basanzwe, bicaye imbere y'ameza, hariho mikoro.

Abantu benshi bahagaze ahantu rwagati mu murima, ni ahantutu hari umuhanda bigaragara ko hari umuhanda wo mu giturage, abahari basa n'abari kuhakorera umuganda, muri abo bari kuhakorera umuganda harimo n'umusirikare uri kubafasha.

Abantu bari mu muganda harimo umusirikare uri kuvugira kuri terefoni, n'abandi bantu bambaye imipira y'imikara inyuma yabo hari imodoka ebyiri z'amabara y'imikara.

Abantu benshi bameze nk'abantu bari mu muganda, bari ahantu bamwe bari kunyuka ibyondo, imbere y'inzu ni inzu zubakishije inkarakara ,bisa nkaho bagiye gutera ibyo byondo kuri izo nyubako.

Umugabo wambaye ishati ya makarokaro y'amabara y'ubururu, umweru n'ibara ry'ivu. Ufite mikoro irimo amabara ya orange n'umukara. Ameze nkaho ari kwivugiraho. Inyuma ye naho hari undi musore ufite terefone mu ntoki uri kuyirebamo.

Umumama wambaye imyenda y'ibitenge, uhagaze ahantu mu mbuga irimo ibyatsi bikeya, inyuma ye hari inyubako ebyiri zisa nk'aho ari inyubako z'ubucuruzi bacururizamo.

Abantu batanu bari imbere y'inyubako ifite amabara y'umuhondo, mu bantu barimo abagabo bane n'umugore umwe, abo bagabo bane bakaba barimo umupolisi umwe n'undi mugabo wambaye ikositimu.

Abaturage bari mu nama bicaye mu itente imbere yabo hari umusore ukiri muto wambaye umupira w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ,akaba afite agakarita kanditseho gerayo amahoro.

Abantu basa n'abari mu nama, ni abantu barimo abaturage basanzwe ariko barimo n'umupolisi ndetse n'umusirikare wicaye munsi y'igiti, imbere y'aho hari inyubako ifite amabara y'ubururu.

Abagabo batatu bari mu kigero kimwe bambaye imyenda isa y'amabara y'umuhondo bahagaze mu kibuga cy'umupira inyuma yabo hari amaterasi y'indinganire yameruye.

Abakinnyi batatu bari mu kibuga cy'umupira bari gukina harimo babiri, bambaye imyenda y'ubururu. Hari nundi umwe wambaye imyenda y'umuhondo, ufite balo irimo amabara y'umweru n'ayiroza.

Abantu benshi bambaye amajezi atandukanye n'indi myenda ijyanwa muri siporo, ni abantu bameze nkaho barimo gukora siporo mu buryo bwa rusange, imbere yabo hahagaze umuntu bisa nkaho ariwe uri kubayobora, ni abantu bahagaze ahantu mu kibuga kimeze nk'ikibuga cya basketl cyangwa cya volley.

Umukinnyi w'umupira w'igitsina gabo wambaye amajezi y'umuhondo, amasogisi y'umuhondo n'inkweto z'umukara. Usa nkaho agiye gutera umupira. Umupira urimo amabara y'umweru aya orange nayo ubururu bwerurutse.

Aabakinnyi b'umupira b'amakipe abiri ikipe imwe yambaye amabara y'umuhondo n'icyatsi n'indi kipe yambaye amabara y'umweru n'ubururu barimo baraza, imbere yabo hariho abatoza batatu bambaye utujire tw'icyatsi.

Abakinnyi b'umupira barimo; babiri bambaye imyenda y'ubururu irimo n'amabara y'umweru, harimo undi wambaye umupira wa oranje ndetse n'undi w'umweru mo imbere n'undi wambaye uw'umweru.

Abantu bicaye imbere y'ameza hariho ibikombe bibiri bahimba abakinnyi b'umupira ndetse n'imidari itandukanye bahemba abakinnyi b'umupira, irimo, ifite imishumi y'amabara y'ubururu, umweru n'umutuku.

Ku kibuga cy'umupira inyuma y'ikibuga cy'umupira. Aho abakinnyi bicara bari kuruhuka bavuye mu kibuga basimburana hari abantu bari gukora siporo, imbere yacyo imbere y'icyo kibuga.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga cy'umupira, bambaye imyenda irimo amabara yiganjemo umuhondo ndetse n'umweru, harimo n'abambaye umuhondo n'umukara ndetse n'abambaye ubururu n'umukara.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mu kibuga, barimo abambaye amajezi y'ubururu, n'abambaye amajezi y'umuhondo, harimo n'umusifuzi wambaye amajezi y'ibara rya oranje, ndetse n'ibara ry'umutuku.

Abakinnyi b'umupira bari ahantu mu kibuga bari gukinamo, ni abakinnyi bamwe bambaye amajezi y'ubururu bwijimye arimo n'amabara y'icyatsi, abandi bambaye amabara y'ubururu, ubururu bwerurutse harimo n'amabara y'umweru.

Ahantu mukibuga cy'umupira, harimo abantu bane harimo batatu babakinnyi bambaye amajezi y'ubururu bwijimye, harimo n'undi utari umukinnyi w'umunyezamu wambaye amabara y'umukara n'amabara ya orange.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, ni ikipe y'abakinnyi b'umupira w'amaguru, barimo bifotoza mbere yuko umupira utangira, harimo na nyezamu wabo wambaye imyenda irimo amabara y'umukara.

Ahantu hameze nko muri sitade hicayemo abana benshi, bambaye imyenda ya siporo n'abandi bantu bakuru ariko ni abantu bakuru barimo bakeya batari benshi abenshi ni abana bakiri batoya.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari gukinira mu kibuga n'abakinnyi bamwe bambaye amajezi y'amabara y'ubururu abandi bambaye amajezi y'amabara y'umuhondo barimo n'umusifuzi wambaye amajezi y'umukara na oranje.

Abakinnyi b'umupira wamaguru bari ahantu mu kibuga bambaye amajezi y'ibara rya orange n'ibara ry'umutuku n'amasogisi y'amabara atandukanye arimo ubururu, umukara n'umweru bari imbere ahantu muri sitade naho hari abantu baje kubareba bakina.

Abantu benshi bambaye amajezi, harimo abambaye amajezi y'umuhondo harimo abambaye amajezi y'icyatsi harimo abambaye ay'umutuku harimo n'abambaye aya oranje. Bari ahantu hameze nk'ahari ikibuga, inyuma yayo hakurya y'ikibuga hari inyubako ebyiri, imwe isize amabara y'umuhondo n'indi yo haruguru imeze nkaho ari inyubako y'ubucuruzi.

Umuntu w'umusore wambaye imyenda y'ubururu, wambaye n'inkweto za bodaboda ,utwaye ku rutugu amapaki abiri ya fanta ,iyo hasi iri mumabara y'umuhondo, iyo hejuru iri mumabara y'icyatsi.

Ahantu h'umuhanda, umuhanda w'ibita, ariko kuruhande hari ahantu hubakiye haca amazi, ni ahantu hubakiye bashyize beto hejuru, hejuru y'umugende, kugira ngo hataba hagira umuntu ugwamo.

Umugore wambaye imyenda ya siporo, kugendera kuruhande rw'umuhanda, umuhanda uzwi ku izina rya kaburimbo cyangwa se umuhanda wigitaka, hirya ye hariho inzu harimo ifite amabati y'umutuku.

Umuntu w'igitsina gabo ukiri mutoya, ufite amvelope mu ntoki, umuntu urimo gutambuka ahantu muri kaburimbo inyuma ye hari inyubako ni inyubako harimo imwe yubakishije amatafari ahiye n'indi y'inyuma isize amarangi y'umuhondo.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo, umumotari wacanye itara rya moto bigaragara ko butangiye kwira ari nko mu ma saa kumi n'ebyiri, inyuma ye hakaba hari inzu z'ubucuruzi.

Ahantu rwagati mu murima ni ahantu hameze nk'aho ari igishanga, ahantu hashashe cyane harimo nk'ahantu hari ibiti, ibiti bimwe bivangwa n'imyaka, ni ahantu harimo akayira gatoya abantu batambukamo.

Umuhanda w'ibitaka uri ahantu hagati y'imirima, imirima isa nk'aho idaheruka guhingwa yaba kuruhande rwo hepfo, yaba kuruhande rwo haruguru, ni umuhanda usa n'uwatenguwe n'imvura kuko ntago uteze neza.